Ibigo by'itumanaho mu gihugu, bituma abaturage biteza imbere mu buryo bukurikira. Umuturage ufite amafaranga ashaka kuyoherereza undi, ajya ku cyicaro cy'itumanaho akabikora cyangwa se akifashisha ubundi buryo, binyuze mu ikoranabuhanga akayashyikiriza uwo akeneyeho ko ayamugezaho.

Mu gihugu cy'u Rwanda usanga hariho iterambere mu bintu bitandukanye, mu ikoranabuhanga, mu itumanaho aho usanga ibigo by'itumanaho n'ikoranabuhanga byashyize imbaraga nyinshi cyane mu gukemura ibibazo bijyanye n'itumanaho mu baturage kugira ngo babashe kubonera amakuru ku gihe.

Aho batangira serivisi zitandukanye z'abaturage, urugero tubonamo Bank ,Bank yitwa equity ,BPR urwego Bank, n'izindi serivisi batanga za MTN Mobile Money .

Igihingwa cy'umuceri gihingwa ahantu hisanzuye, haba hagizwe n'amazi menshi cyane. Aho hacibwamo imiyoboro yabugenewe mu gihe icyo ari cyo cyose babona yuko umuceri ukeneye amazi bakayayoboreramo.

Inganda zitanga umusaruro ukomeye cyane mu gihugu runaka kuko usanga zitunganya ibikomoka ku buhinzi. Umuturage akabona amafunguro bitamugoye kandi bitanamuhenze kuko biba bitasabye kuva mu mahanga.

Amatsinda y'abagore nyarwanda, yakemuye byinshi mu bibazo abagore bahuraga nabyo mu ngo zabo, nko kubura imboga rwatsi, kubura imbuto, kubura n'ibindi byose bijyanye n'amikoro, aho wasangaga bategereje umugabo ngo, abe ari we ubibahahira.

Igihingwa cy'umuceri gihingwa mu gishanga kandi kigakenera amazi menshi kugira ngo kibashe kubaho gitandukanye n'ibindi bihingwa byose, iyo kimaze kwera ya mazi bayagabanyamo kugira ngo bazabashe gusarura wa muceri, bawuhure bawujyane mu bigega byabugenewe.

Mu bice bitandukanye by'igihugu abahinzi bakora amatsinda bakishyira hamwe bagakora umwuga w'ubuhinzi bw'imyumbati kuko bibafasha mu kubona ibiryo, bikabafasha kubona amafaranga ndetse no kubona ubwisungane mu kwivuza bityo bikagabanya ibibazo mu muryango.

Ibigega byinshi bifasha, abaturage mu kubika umusaruro wabyo, bibumbiye mu matsinda. Ibigori, bishyirwa mu bigega mu gihe bitegereje kuzagurishwa mu nganda zibitunganyamo ibindi biryo.

Amatsinda agamije inyungu, akenshi aba agizwe n'abanyamuryango bitoramo abayobora kugira ngo babashe gucunga umutungo wabo, mu byo bakora bitandukanye.

Iri ni shyirahamwe cyangwa se itsinda rigizwe n'abagore babiri n'abagore batatu n'umugabo umwe bibumbiye hamwe mu gukora umwuga w'ubucuruzi wo gucuruza inkweto z'inkwano ndetse n'imyenda bishimiye intambwe bagezeho batera.

Mu bikorwa bitandukanye by'indashyikirwa, usanga abantu bakoze cyane by'agatangaza kurusha abandi, bahabwa amashimwe nk'ikimenyetso kigaragaza ko bitwaye neza mu gikorwa runaka no mu mupira w'amaguru n'ahandi.

Igikakarubamba ni icyatsi gihingwa kiba kifitemo ubushobozi bwo kurwanya indwara zitandukanye muri iyi si. Aho usanga kivura inzoka kikavura n'izindi ndwara nyinshi.

Inzoga zitanga umusoro uhambaye bityo rero bituma igihugu izo nzoga zikorerwamo, kibona amafaranga abasha kubaka ibikorwaremezo bitandukanye nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Aha ni mu kabari, harimo inzoga z'amoko atandukanye, ziba zarakorewe mu nganda zitandukanye, ziba zifitemo umusemburo, uringaniye, uri mu rugero, ndetse n'ukabije.

Ni byiza ko abantu bitondera inzoga banywa, bakagomba kandi kugabanya ingano y'ikigero cya alokoro banywa kubera yuko byangiza ubuzima bwo mu mutwe, bikangiza iterambere ryabo.

Inzoga ni nziza kuba zitanga amafaranga ndetse zikanarandura icyaka aho kiva kikagera, iyo zikoreshejwe neza n'abazicuruza ndetse n'abazinywa bakagabanya ikigero cyo kuba bakiyangiza mu gihe banyweye nyinshi cyane.

Abantu benshi bakunda kunywera, kurya ndetse no kurara ahantu heza hafite amafu mbese amahumbezi, kubera y'uko bibafasha gutekereza no kuruhuka bityo rero niyo mpamvu baza kuhizihiza.

Ubucuruzi bw'inzoga n'ibindi binyobwa byo kunywa ni bimwe mu bicuruzwa byigaruriye imitima y'abakiriya aho umukiriya ahagana agafata icyo kunywa inyota imaze kumurembya.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho nsakazamashusho, biba bikenewe aho buri muturage atuye kugira ngo amenye aho abandi bageze. Amakuru agezweho ndetse n'ibindi byose akenera binyuze mu ikoranabuhanga ryo muri iyi si ya none.

Abagore muri iyi si ya none, basigaye barahawe ijambo bityo bigatuma isi itera imbere ntanumwe usigaye inyuma. Bityo rero bahita bihangira umwuga w'ubucuruzi, aho baba bafite inyubako zahariwe ubucuruzi bacuruzamo ibintu bitandukanye bikenerwa.

Imyenda y'abagore imikandara, ibikomo, ibikapu n'ibindi byose bambara ni byiza cyane, kuko buriya mu muco nyarwanda iyo umugore yambaye akaberwa aba asobanuye neza y'uko umugabo we yiteje imbere mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose.

Amavuta arinda indwara z'abana, ibiheri, ibituta n'izindi zitandukanye abakenewe kugira ngo ababyeyi babo bayagure babashe kubitaho hatazagira indwara zibangamira imikurire yabo ye n'imibereho yabo.

Imyenda ni ibicuruzwa bimara igihe kirekire biri mu nzu y'ubucuruzi, aho ushobora kubicuruza uyu munsi, ejo, ejobundi hakazagera nta kibazo iyo myenda yawe yagize, bityo bigatuma nta byangirika ngo urahomba.

Abantu benshi harimo n'abagore bakora umwuga w'ubucuruzi aho umugore afata igishoro cye cy'amafaranga runaka akihangira umurimo wo gucuruza ibijyanye n'ibyo kunywa by'umuto bidasindisha n'ibindi byamufasha kwiteza imbere.

Ni byiza kurya amafunguro akomoka ku matungo kuko haba hakubiyemo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibindi bityo rero umuntu akabaho neza nta kibazo cy'uburwayi afite cyatewe n'imirire mibi.

Inguzanyo ziratangwa ku bantu bashoboye gutekereza ndetse no kureba kure kugira ngo babashe gukora ubucuruzi bugiye butandukanye, bwabo bw'imyaka, bwaba ubw'bworozi, bwaba ubwo gucuruza imyenda n'inkweto kugira ngo abantu bikure mu bukene.

Amakaramu ni bimwe mu bikoresho ,abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye, yewe na za Kaminuza n'ibindi bigo runaka, byifashisha mu kwandika ibijyanye n'umurimo runaka, bityo bigatuma amakuru abikwa neza, bitewe n'uko babonye uko bayandikisha ayo makaramu.

Mu nsengero ni hamwe abantu bajya gusenga imana, bakicisha bugufi kugira ngo imana ibakire imana ibabarire ibyaha byabo kandi, nibapfa bazabashe kujya mu ijuru.

Aha ni mu rusengero aho hagaragaramo abakirisitu baje gusenga n'abapadiri babo, barimo batura bashimira imana ibyo yabagejejeho.

Mu tubari dukomeye haba harimo ibitanda abakiriya baryamaho mu gihe bakodesheje icyo cyumba kugira ngo bazabashe kujya mu zindi gahunda zabo zitandukanye bukeye bw'aho kuko baba bishyuye.

Izi nyubako ni hotel ni amahoteli. Aho abantu bajya nk'ibisanzwe mu mahoteli haba harimo ibintu ibintu byinshi bitandukanye ibyo kunywa, ibyo kurya, aho kuba, n'ibindi bitandukanye.

Inyubako z'utubari ni zimwe mu bikorwa remezo bishyirwaho n'abantu cyangwa se na leta runaka kugira ngo babashe kurandura ubukene, babashe kurandura ibibazo bigiye bitandukanye.

Icyumba kiza cyo kuraramo kigomba kurangwa no kuba harimo ibitanda byiza byabugenewe. Hariho umufariso yewe n'ibishyigikizo umuntu yisegura kugira ngo abashe gusinzira aruhuka neza.

Abaguzi benshi, baza bagana utubari duteye imbere dukomeye, bishimira ko aho bagiye kunywera cyangwa gufatira amafunguro, hari aho baruhukira, ibitanda bifite imifariso myiza ndetse n'ibyo kwiyorosa bibasha gutuma baruhuka.

Ubucuruzi bw'imyenda itandukanye yaba iy'abana bakiri impinja, abakuru, abakecuru bufasha abantu mu kubona imyambarire yabo ya buri munsi bitabagoye.

Kuzunguza imyenda cyangwa inkweto ni ubucuruzi umuntu akora bitewe n'uko afite igishoro gike cyane akajya afata imyenda mike cyangwa inkweto nke akagenda azibungana ahantu mpaka bagiye bazimugurira.

Abantu benshi biteza imbere binyuze mu gukora ubucuruzi butandukanye, harimo ubucuruzi bw'imboga, harimo ubucuruzi bw'ibitoki, imineke ndetse n'izindi mboga z'amoko yose kugira ngo babashe kugera ku byo biyemeje mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aha ni mu isoko ririmo abantu benshi cyane, aho harimo abacuruzi benshi bafite ibyo barimo bacuruza, imyenda yo kwambara, n'ibindi bicuruzwa bijyanye n'imyambarire.

Ubucuruzi bw'imyenda n'inkweto bufasha abakora uwo mwuga w'ubucuruzi kwiteza imbere. Ibibazo mu miryango yabo biragabanuka, ibibazo ku gihugu byo kuba igihugu gihora gifasha abatishoboye biragabanuka, ndetse n'isi igatera imbere.

Ipikipiki ni bimwe mu bikoresho bitwara abantu n'ibintu, bibavana ahantu runaka bagana ahandi, bifasha abakora umwuga wo gutwara amapikipiki biteza imbere yewe n'abaturage bakabasha kugeza imizigo aho bagana bikaborohereza mu mibereho myiza yabo ya buri munsi.

Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu mihanda y'umukara izwiho ku izina rya kaburimbo, usanga bishimira uburyo leta ikora byinshi ikora ibishoboka byose kugira ngo yubake imihanda.

Amapikipiki afasha abantu benshi mu gutwara ibintu ndetse n'abantu bityo bigatuma ingendo zihuta, abantu bagakorera ku gihe kubera ko baba bafite ibikoresho bibagizaho bakorera byihuse.

Umwuga w'ubunyonzi ufasha abakora uwo mwuga wo gutwara abantu n'ibintu bigeza ku bintu byinshi cyane, aho nta munyonzi ugitakamba ngo yabuze amafaranga yo kuriha ubwisungane mu kwivuza.

Abagabo benshi bakunze kugura amapikipiki kugira ngo abafashe mu ngendo zabo za buri munsi gutwara imiryango yabo, abana, abagore babo ndetse n'izindi nshuti zabo nk'umuryango mugari.